Abaturage bane bifashishije amasuka yabo barahinga umurima. Iyo bahinga bafata isuka bakayizamura, bagakubita mu butaka, bakazamura ubutaka maze bakazagera igihe bagahingamo imyaka.

Aho abahinzi n'aborozi bajya kugurira imiti itandukanye yo kuvura amatungo yabo no kuzamura umusaruro w'ibiribwa byabo. Ni ingirakamaro kuko bifasha kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura ibihingwa ndetse no kuvura amatungo. Ni ngombwa ko kugira ngo tuzamure umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi, dukoresha imiti itandukanye yabugenewe.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara arashyira ifumbire ku bihingwa by'ibigori bye, ni ngombwa ko ibigori iyo bigeze ahantu heza ho kubagarwa babishyiraho kandi n'imiti igamije kuyirinda kugira ngo umusaruro utere imbere.

Ahantu hacururizwa imiti ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, abahinzi n'aborozi ni abantu bakunda guhura n'ingorane zitandukanye ziturutse akenshi mu ndwara zibibasira .Iyo babonye imiti ku gihe, bibafasha kongera umusaruro mu gihe kiza.

Umuhinzi afite imbuto mu ntoki aragerageza kuzishyira mu murima kugira ngo zere, iyo uhinga ugashyira imbuto zawe mu murima, ugakoresha kandi ifumbire yabugenewe ubona umusaruro.

Umugore n'umugabo bari aho bacururiza imiti ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ushobora gusangamo indwara zitandukanye, bityo aho bacururiza imiti bafasha mu kurinda izo ndwara.

Umukobwa aba afite igikoresho cyabugenewe, aratera imiti yabugenewe mu buhinzi bwe bw'inyanya. Iyo utera inyanya ni ngombwa ko ugira uruhare mu gute..., mu gutanga umusaruro mwinshi uziha ibitunga umusaruro mu buryo bwiza.

Umudamu w'umubyeyi, aratera ingemwe. Iyo uteye urugemwe, ni byiza kurwuhirira bityo rugakura neza, rukazatanga umusaruro wifuzwa.

Aho abantu batandukanye bakoresha bagura imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Ni ngombwa ko abahinzi n'aborozi bahagana kugira ngo babone ibyo bakenera bifasha mu kongera umusaruro.

Aho abantu batandukanye b'abahinzi n'aborozi bajya kugurira imiti kandi ibafasha mu guteza imbere umusaruro wabo, abahinzi n'aborozi mu buhinzi bwabo bahura n'ibibazo bitandukanye birimo n'uburwayi.

Abagore batandukanye barakora ubuhinzi bw'amashu. Amashu ni meza cyane, atuma abantu bagira ubuzima bwiza ndetse bagakora neza. Iyo uhinga amashu ubona umusaruro mwinshi ukiteza imbere.

Amase aturuka ku nka n'ayandi matungo, ni ubwoko bw'ifumbire bushobora kwifashisha abantu bayashyira mu myaka bityo imyaka ikamererwa neza, ubutaka bukera ndetse bukagira n'umusaruro mwinshi.

Igihingwa cy'ibigori, ni igihingwa gihingwa ahantu heza, harambitseho igitaka ndetse bikafasha abahinzi mu kubona umusaruro mwinshi ukomoka kw'icyo gihingwa.

Ifumbire ni ibikomoka ku matungo, usanga yifashishwa cyane mu gufumbira ubutaka maze umusaruro uvuyemo ukaza wisumbuyeho, iyo ufumbiye ubutaka bituma umusaruro uza ari mwinshi.

Igiti cy'umuravumba, ni igiti gikunze guterwa mu ngo. Bityo abagikunda kugikoresha, bagakira indwara zitandukanye, zirimo, inkorora, ibicurane, n'izindi ndwara zishobora kuvurwa n'ibyo miti.

Ifumbire yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi, ikomoka ku matungo haba amaremare nk'inka ndetse n'amagufiya n'ingurube, ihene n'ibindi bityo ubutaka bumererwa neza bugatanga umusaruro mwiza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, iyi miti akenshi usanga ikomoka ku bimera n'ibihingwa bitandukanye, bityo bikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Abarwayi bayifata bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hacururizwa imiti itandukanye yongera umusaruro w'amatungo ndetse n'ibiribwa. Ibi ngibi ni ingirakamaro kuko aborozi n'abahinzi bibafasha kubaho neza mu buryo bwo kongera umusaruro wabo.

Igihingwa cy'imyembe ni igihingwa cyiza cyane, usanga kuva kikera kurinda kigeze ku isoko, ari igihingwa kidahenze cyane ariko gifasha mu buzima bw'umuntu kubona ibimutungira ubuzima.

Ahantu hahinze neza kandi hateye insina, iyo ugiye gutera imyaka urabanza ugahinga neza, warashyizemo ifumbire, maze ugateramo ibihingwa byawe cyangwa ingemwe zawe, maze ukabona umusaruro.

Ibikorwa by'ubuhinzi bitandukanye, bwiganjemo ubuhinzi bw'ibihaza. Iyo uhinga ibihaza, bituma ubona amafaranga, ubona kandi ibiribwa, bityo ukarwanya indwara z'imirire mibi n'ibindi.

Umurima wibigori byumye kubera izuba, iyo ibigori bigeze igihe cyo kwera kandi hari izuba ryinci biruma maze uwabiteye akajya kubisarura akabikoresha mu bikorwa bitandukanye by'buzima.

Ibihingwa bitandukanye bihingwa mu gishanga, ni ibihingwa bishobora kwera hatabonetse imvura nyinshi kubera ko n'ubundi mu gishanga hasanzwe haboneka amazi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara yambaye ikote kandi ry'umweru ari mu murima we w'amashu, amashu ni meza atuma umubiri w'umuntu ukora neza ndetse akavura indwara zimwe na zimwe ziganjemo iz'amaso.

Ibihingwa bitandukanye bihingwa cyane cyane mu mirima itandukanye, ni byiza ko bahinga kuko bituma umuntu abona imibereho myiza mu mafaranga, ndetse akanagira ubuzima bwiza kuko arya indyo yuzuye.

Umurima uteyeho ibihingwa byiza ndetse n'ishyamba, iyo umurima uriho ibihingwa byiza n'ishyamba ntushobora guhura n'ibibazo bitandukanye by'isuri n'ibindi, kandi ibyo bihingwa bikifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubworozi n'ubuhinzi.

Amashu ni igihingwa cyiza cyane cyera mu murima uhehereye bikabona ko bitanga ubuzima bwiza ku babikoresha, ndetse amashu atuma abantu barinda indwara zitandukanye.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo barigishwa uburyo gukora ingemwe no gukora umusaruro ariko bahereye ku biba byarakozwe mu ngemwe.

Ibihingwa bitandukanye byera ahantu hatandukanye, cyane cyane hahehereye iyo igihingwa kibona izuba kikanabona imvura neza, bituma kibasha kugira umusaruro mwiza.

Mu murima usanga habamo ibyatsi by'amoko atandukanye, hashobora kandi kuba haratewemo insina, hagaterwamo izindi ndimu se cyangwa se amaronji, bityo umuntu bikamufasha kubona imyaka mu buryo bwiza.

Ikigori keze neza gituma umwana amererwa neza iyo akiriye ndetse kandi n'umuntu mukuru iyo akibonye na we akomeza kugira ubuzima bwiza. Ni ingenzi cyane kuko bifasha umuntu kumererwa neza.

Ibimera bitandukanye by'imbuto n'insina, iyo uhinga imbuto ukanatera insina bituma ugira umusaruro mwiza, bityo ukifashishwa mu gutunganya indyo yuzuye n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Urutoki hari kandi n'ibishyimbo bitoshye kuvanga ibihingwa ni ingirakamaro kuko bituma umusaruro wiyongera bityo aho wari gukura umusaruro umwe ukaba wahakura imisaruro myinshi bigateza imbere umuntu.

Ishyamba ndetse riteyemo kandi imyaka itandukanye. Iyo ufashe imyaka ariko ukayivanga n'ibiti bituma hirindwa isuri, hakirindwa n'ibindi byonnyi bitandukanye bishobora kubangamira umusaruro.

Igihingwa iyo ugihinze, urakibagarira ukagifata neza, ukacyuhirira bityo ubuzima bwacyo bukagenda neza bityo nawe ukazabona umusaruro wifuza mu gihe kiri imbere.

Ingemwe z'ibiti ziri mu dushashi tw'umukara n'udutaka dukeya, izi ngemwe zifashishwa mu gutera maze abaziteye bakazabona umusaruro munini.

Abantu batandukanye b'abakobwa bafite inanasi mu ntoki, ubuhinzi bw'inanasi ni bwiza cyane kuko inanasi usibye kuba ari ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, zinatanga amafaranga.

Insina ntoya ziri kuzamuka, ziragaragara ko zigomba gukura, maze zikazabyara umusaruro. Iyo uhinze insina, bifata igihe kugira ngo itangire gutanga umusaruro.

Itsina ntoya ni igihingwa gitewe vuba, kuko iyo uteye itsina bisaba igihe kitari gito cyane cyo kuba itanze umusaruro, gusa n'ingirakamaro kuko bituma umuntu amererwa neza akagira iterambere yifuza.

Abana bakoze urugendo shuri mu murima, barigishwa uburyo butandukanye bwo gutera ibiti, iyo abana bakora ingendoshuri bibafasha gushyira ibyo biga mu ngiro, bityo bikabafasha guteza imbere ubumenyi bwabo.

Inkoko ni itungo rigufiya ryifashishwa mu gutanga ifumbire, amagi ndetse n'inyama, iyo inkoko zitaweho neza zitanga umusaruro mwinshi maze abantu bakabona umusaruro bifuza.

Inkoko ya kijyambere itanga amagi ikanatanga inyama. Akenshi abazorora, baba bagamije kubona umusaruro mwinshi bityo bikabaha amafaranga, bakiteza imbere, bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Iyo wahinze igihingwa k'imyumbati kikera igihe kiragera ukagisarura, maze ukagikoresha mu bikorwa bitandukanye byo kongera umusaruro kongera ibiribwa mu rugo no gushaka amafaranga.

Umugore n'umukobwa barahinga. Iyo ugiye gutera imyaka, urabanza ugahinga kugira ngo imyaka ijye mu butaka bufite ubuhehere, bityo bigatuma ikura neza, igatanga umusaruro.

Abantu batandukanye barimo abagabo, abagore barahinga bakoresheje amasuka n'intoki, iyo uhinga ukubita isuka hasi ukazamura ibitaka, maze ukabona uko ushyiramo imbuto zawe.

Ibimera bitandukanye biboneka mu murima, iyo umurima ufumbiye neza imvura ikagwa bituma ibimera nabyo bigira ubuzima bwiza kandi ari nabyo biduha umwuka mwiza duhumeka, bityo tukabaho neza.

Abagore babiri baragosora imyaka yabo ndetse barayitunganya bakuramo ibibi ndetse basigaza ibyiza. Iyo umusaruro umaze kuboneka w'ibihingwa barawutegura kugira ngo ukoreshwe.

Ahantu hahinze neza, hitegurwa guterwa imyaka kugira ngo utere imyaka neza, urabanza ugahinga ndetse ukanasanza, iyo uhinze neza ubutaka bufumbiye, ugateramo imyaka hahinze neza, imyaka ikura neza.

Abaturage bambaye ibikoresho byabugenewe, bafite amasuka barahinga, guhinga ni byiza bituma umuntu abona ibiribwa, akabona amafaranga, akabona ubuzima yifuza.

Iyo abahinzi bageze igihe cyo gusarura, bafata umusaruro wabo bakawushyira mu habugenewe, maze bakawukoresha icyo bashaka. Bawubika se, bawugurisha ndetse banawukoresha mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo.

Abaturage barimo abagabo n'abagore, barakora akarima k'igikoni, gafasha cyane mu gutunganya ibiribwa birimo imbuto, imboga n'ibindi. Bituma harwanya igwingira ndetse imibereho ikaba myiza.

Abajyanama b'ubuzima bambaye imipira y'icyatsi hari kandi n'umudamu arimo arererekera uburyo bwo guhinga abafasha mu myumvire ijyanye n'ubumenyi butandukanye mu guhinga bityo abantu bakiteza imbere.

Abantu batandukanye barakora akazi ko guhinga, guhinga ni byiza bituma abantu bongera umusaruro bakabona ibiribwa byo kujyana mu rugo ndetse no gusagurira amasoko.

Aho abantu batandukanye barimo barasarura imbuto, iyo wateye imbuto igihe kiragera ukazisarura maze ukajya kuzikoresha mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo.

Umuhinzi wambaye ingofero n'umupira n'ipantaro n'ibikoresho byabugenewe, arita ku myaka ye, kwita ku myaka ni byiza, kuko bituma ikura neza igatanga umusaruro wifuzwa.

Umugabo wambaye ishati, wambaye kandi n'ipantaro afite isuka mu ntoki arimo arahinga, guhinga ni byiza, bituma abantu babona ibyo bakenera birimo ibiribwa n'ibindi.

Umugabo wambaye umupira n'ipantaro, ahetse igikoresho cyabugenewe, arimo aratera umuti ku bihingwa bye, ni ngombwa ko iyo ibihingwa byawe bigaragaye ko bifite ibibazo ubishakira umuti maze bikongera umusaruro.

Umuhinzi arahinga inyanya, iyo uhinga inyanya bigufasha kubaho neza kuko ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, bityo ukabona amafunguro atunga umuryango ndetse ukabona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Iyo abahinzi bejeje bashyira umusaruro wabo ahabugenewe mu mifuka, iyo misaruro yiganjemo amasaka, ubunyobwa, imbuto n'ibindi ku buryo usanga bigaragara neza bikabaha amafaranga n'ubuzima bifuza.

Umusaruro w'ibigori iyo ibigori bimaze kwera urabifata ukabyanika neza maze ukabitunganya bityo bikavamo ibikorwa wifuza, ushobora guhita ubigurisha cyangwa ukabihunika ukazabikoresha nawe.

Umusaruro iyo umaze kuwubona urawuhunika bityo bigatuma isoko riba ryiza, kuko ubigurisha mu gihe ibiciro byamaze kuboneka neza ku isoko.

Aho abantu batandukanye bejeje imyaka bayihunika, ni ingenzi cyane guhunika imyaka mbere yuko ijyanwa ku isoko, kuko iyo ikera aba ari myinshi maze igiciro cyayo kikagabanuka.

Abantu batandukanye baratunganya umusaruro w'ubunyobwa, ubuhinzi bw'ubunyobwa ni ingirakamaro kuko bufasha abantu kubona intungamubiri bifuza ndetse iyo barangije basagurira n'amasoko bakabona amafaranga.

Igihingwa cy'imyumbati ni ingirakamaro kuko cyifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ibiribwa, imyumbati kandi ishobora kwifashishwa mu kuyikuramo ubugari bityo abantu bagakomeza kubaho neza mu mibereho myiza.

Igihingwa cy'amasaka ni igihingwa cyera, cyane cyane mu mirima yo ku gasozi, aho usanga abayahinga bemeza ko ari igihingwa cyiza, kuko cyifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ifu y'igikoma n'ibindi.

Igihingwa cy'ibigori, ni igihingwa cyiza cyane, gituma abantu babona ibyo bakeneyera harimo amafaranga, kigira kandi intungamubiri zifashishwa cyane cyane ku bana batoya. Gishobora kuribwa cyangwa se bakagisyamo ifu, bakayinywamo igikoma.

Urubingo ni ibiti bikunze kuvangwa n'imyaka usibye kuba birinda isuri ni n'ubwatsi bw'amatungo, amatungo arabwifashisha akabaho bityo umuntu akagira ubuzima bwiza.

Ibimera bitoshye bituma habaho ubuzima bwiza, kuko ni byo bitanga umwuka abantu bahumeka. Iyo izuba riva neza, imvura ikagwira igihe ibyo bimera bibasha kubaho bikagira ubuzima bwiza ndetse natwe tukagira ubuzima bwiza.

Igiti kinini hari kandi n'ibigori, iyo ibiti bimeze neza biduha umwuka duhumeka tukabasha kubaho neza, ni ngombwa ko tubungabunga ibidukikije, kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa cyiza cyane kubera ko iyo cyeze gifasha abantu kongera umusaruro ukoreshwa mu rugo ndetse byarimba bigasagurira n'amasoko bityo bigatanga n'amafaranga ku bahinzi.

Igitoki iyo kigiye kwera kirabanza kikana; ari byo bita kuzana umukanana, iyo igitoki kimaze kwera bituma abakibonye bashobora kugikoresha mu bikorwa bitandukanye; nko kurya ndetse bakaba banakigurisha.

Ishyamba ritandukanye riteye imbere kandi hariho ibigori, iyo muteye ibigori ariko hakaba n'ibiti bivangwa n'imyaka, birinda isuri kandi ibigori kubera biba bibona imvura bigakura neza.

Ibiti bitandukanye bituma abantu babaho neza, kubera ko bituma abantu bagira umwuka mwiza bahumeka, bigakurura imvura imyaka ikera, abantu bakabona umusaruro bifuza.

Ibiti bitandukanye bigaragara mu mashyamba, iyo uhinga ukabona umusaruro biba byaturutse ku mvura, iyo mvura rero ikururwa kenshi na kenshi n'ibiti byiza bigaragara mu mashyamba.

Ibiti bitandukanye bigaragara cyane cyane mu mashyamba, ibi biti bituma abantu bagira ubuzima bwiza kuko bikurura imvura kandi bigatanga umwuka mwiza duhumeka, iyo ibiti byitaweho bituma abantu na bo bagira ubuzima bwiza.

Amashu ni igihingwa gikunze kwera cyane ahantu horoshye, hahereye, kifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo, gutekwa akaba yaribwa ndetse afasha cyane cyane abana bafite ibibazo gukura neza.

Igihingwa cy'ibinyomoro ni igihingwa ushobora gusanga kera ahantu hatandukanye, kigafasha mu bikorwa bitandukanye, birimo kukifashisha mu mafunguro, kuba wakigurisha ukabona amafaranga bityo ukiteza imbere.

Insina ni igihingwa cyera ibitoki ushobora kurya ukibitema cyangwa se ukabitaramo imineke. Iyo utaze imineke ni byo byiza kuko bituma ubona intungamubiri zikomoka ku mbuto.

Ibiti n'ibimera bitandukanye bigaragara ko bibona imvura bikanabona izuba ku gihe, iyo ibiti bikura neza bikanabona imvura neza bituma natwe ubwacu tugira ubuzima bwiza kuko biduha umwuka duhumeka.

Ibihingwa bitandukanye bibona imvura iyo igihingwa kibona imvura gikura neza kigatoha bityo umusaruro wacyo ukihuta ukagenda neza, iyo bitabonye imvura biruma maze umuhinzi ugasanga arahombye.

Ibyatsi bitoshye iyo imvura igwa ndetse hakava n'izuba ikirere kikagenda neza, ubutaka na bwo bubona ibibutunga maze ibimera bigashisha, bikabona imibereho myiza.

Ibiti bitandukanye bigaragara cyane cyane mu mashyamba, iyo ishyamba ryitaweho ibiti birimo birakura neza bityo abantu bakagira ubuzima bwiza kuko babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Imiyenzi ni ibihingwa bikunze kugaragara babyifashishwa mu gukora urugo ndetse ibi bihingwa bitanga imiti itandukanye ya Kinyarwanda, ishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibiti ni ibimera byiza cyane kuko bitanga umwuka abantu bahumeka kandi binatuma amatungo abona ibiyatunga. Iyo dufashe neza ibimera, ni byiza kuko bibungabunga ubutaka.

Igiti iyo kimaze gukura kigasaza kigera aho kikagwa. Ni ngombwa ko twita ku mashyamba kuko amashyamba ni ingirakamaro, aduha umwuka duhumeka, agatuma tubaho neza twe n'amatungo yacu.

Ibiti bitandukanye biboneka cyane cyane mu mapariki no mu mashyamba manini, bituma abantu babona umwuka mwiza wo guhumeka. Iyo abantu bahumeka neza, bibafasha kongera igihe cyo kubaho kandi na bo bakagubwa neza.

Mu bimera bitandukanye, byiganjemo ibiti birebire, bitoshye kubera imvura, ni byiza kuko bitanga umwuka duhumeka, ndetse bikanifashishwa nk'ibiryo by'amatungo.

Ibimera bitandukanye n'ishyamba, aho usanga iyo izuba riva neza n'imvura igwa ibimera biba bitoshye bikabona ubuzima bwiza, kandi bifasha mu gukurura imvura ndetse no gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibihingwa bitandukanye byiganjemo ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye, bituma bikurura umwuka maze abantu bakabaho neza, iyo ibiti byitaweho abantu babona umwuka mwiza wo guhumeka bityo bakabaho neza.

Ishyamba rya Ruberitumu, harimo ibiti byagiye bigwa iyo ishyamba rifashwe nabi, usanga ibiti bitandukanye byigenda bisaza bityo ntibisimbuzwe neza ni ngombwa kwita ku ishyamba.

Ibyatsi bitandukanye bikurura imvura ndetse bigatanga n'umwuka mwiza duhumeka, ariko kandi iyo amatungo agize ikibazo naho, niho aborozi bahera bajya gushaka ibyo kurya.

Ibimera bimera mu butaka, ni ibimera bituma abantu bagira umwuka mwiza, cyane cyane iyo ari ibiti, bifasha abantu kubona umwuka duhumeka, bigakurura imvura, ibindi bimera bikabaho neza, abantu bagahinga, bakiteza imbere.

Ibihingwa bitandukanye bitoshye kubera kubona imvura, ariko kandi bikabona n'izuba rihagije, bityo mu miberehoryo yabyo bikabaho neza. Iyo ibihingwa byitaweho, bituma bibaho neza maze bigatanga umusaruro wifuzwa.

Ibitunguru ni ubwoko bw'imboga bukunze guhingwa ahantu h'ubutumburuke bunini, bityo iyo uhinze neza ibitunguru bigufasha kubona umusaruro mwiza, bikifashishwa mu guteka n'ibindi.

Ishu ni igihingwa cyiza cyane gikunze kwera ahantu hahereye, abagihinga bakoresha ifumbire y'imborehera ndetse n'imvaruganda, iyo rimaze kwera bararica bakarirya, cyangwa se bakarigurisha bakabona amafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, wambaye kandi ipantaro y'umukara arita ku bihingwa yateye, iyo uhinga kijyambere bigufasha kubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Guhinga kijyambere ni byiza kuko bituma umuntu atera imbere vuba.

Ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi bwiganjemo ubw'imboga, aho usanga nk'ubuhinzi bwa karoti ari ubuhinzi bwiza, kuko butuma abantu babona imibereho myiza, bakabona amafunguro, bakabona kandi n'amafaranga.

Igiti kiza kibona imvura nziza gisa icyatsi. Iyo iki giti kibonye imvura, kirakura kikamera neza, kigatanga umusaruro wifuzwa naba nyiri ukugitera.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye umupira arasoroma amatunda, ni byiza ko imbuto iyo zeze bazisoroma bakajya kuzikoresha mu bikorwa bitandukanye.

Ibinyomoro ni imbuto zikunze kwera ahantu heza, kandi bigafasha mu buzima bw'umuntu, bigatanga amafaranga, bigatanga indyo yuzuye abantu bakabaho neza.

Ubuhinzi bw'imboga bwiganjemo ibitunguru na karoti, na seleri, n'izindi mboga zitandukanye, bituma umuntu abasha kumererwa neza, bityo akabona indyo yuzuye, kandi akabaho mu buzima bwiza.

Umugabo n'umugore n'umwana barakora ubusaruzi bw'imiteja, iyo wahinze ugera igihe ugasarura bityo ugatangira kuwifashisha uwo musaruro mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, birimo kurya, no kubona amafaranga.

Igihingwa k'ibihaza ni igihingwa kiza ndetse abagihinga cyongera umusaruro ndetse kandi bifasha mu gutanga amafunguro mu muryango ndetse no kubona amafaranga babigurisha ku isoko.

Imbuto zitandukanye ziganjemo pome n'ibindi, bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Iyo uriye pome indwara ntiyapfa gufata umubiri wawe, kubera ko pome irinda indwara.

Imboga zitandukanye zitwa inyabutongo cyangwa imbwija, ni imboga akenshi usanga zigira intungamubiri nyinshi kuko zifashisha mu gutuma abana babona ifunguro ryuzuye kandi rikarinda indwara.

Imbuto z'amoko atandukanye zirimo imineke, pome imyembe n'ibindi bifasha umubiri w'umuntu gukora neza. Iyo urya imbuto ukarya n'ibiryo, bituma umubiri w'umuntu uhangana n'indwara, bityo ukamererwa neza.

Ubuhinzi bw'amateke ni ubuhinzi bukorwa ahantu cyane cyane haherereye, bigafasha icyo gihingwa mu kwera neza. Iyo ukora ubu buhinzi bituma witeza imbere, ukabona amafaranga n'amafunguro.

Imineke ni imbuto zikunze kwifashishwa cyane cyane mu gutegura amafunguro, iyo umaze kurya ukarya n'umuneke bifasha umubiri w'umuntu gukora neza kubera ko abayabonye iririndanda indwara bityo indyo yuzuye ikubahirizwa,

Amashaza ni ibiribwa byiza cyane kuko byifashishwa mu gukora ibiryo bitandukanye, birimo ibiribwa n'ibindi bintu bishobora gutuma umubiri w'umuntu ugenda neza.

Inyanya nziza cyane zisa umutuku n'imiteja yeze neza isa icyatsi, izi ni ubwoko bw'imboga bukoreshwa cyane cyane mu mafunguro, gutegura ibiryo n'ibindi.

Imbuto zitandukanye zirimo amaronji zifashishwa cyane cyane iyo abantu bamaze kurya ndetse n'iyo bari kurya, bituma bagira ubuzima bwiza kuko byongera intungamubiri mu mubiri.

Ubutaka burimo ibimera bitandukanye. Iyo imbwija cyangwa se dodo zikuriye ahantu heza, zimera neza maze abazikoresha bakazazifashisha mu gutegura indyo yuzuye.

Indabo ni nziza cyane kuko aho zitewe zikurura abantu maze abazireba bakumva baranezerewe ariko kandi zitanga n'umwuka mwiza ndetse zigaragara neza.

Indimu ni ubwoko bw'imbuto bukunze kugaragarwa ko bukunda gutanga imiti itandukanye, iyo uriye indimu urwaye inkorora bituma ubuzima bwawe bugaruka maze ugakira.

Ururabo rutoshye ruragaragara ko rubona imvura ihagije, ururabo ni ingirakamaro kuko aho ruteye ruba rusa neza, rugakurura abantu kurureba ndetse rukazana n'isuku.

Indabo zifashishwa mu busitani, iyo ahantu hari ikigo kinini hagizwe umwanya usigara wo gushyirwamo indabo bituma icyo kigo kigaragara neza, kikanogera abagisura ndetse n'abahiga bakarushaho kumererwa neza.

Ubuhinzi bw'urusenda ni ubuhinzi buteye imbere cyane kuko mu Rwanda usanga ari ubuhinzi bushyijwemo imbaraga kuko n'abanyamahanga bakunda urusenda u Rwanda bityo bigafasha mu kubona iterambere.

Imineke ni ingirakamaro, kuko usibye kuyirya gusa, ariko wanayicuruza ukiteza imbere ndetse ugateza n'igihugu cyawe imbere, iva ku nsina, usanga bayitema maze bagatara cya zaba umuhondo akaba aribwo bakirya.

Ahantu usanga abantu bahurira, bakajya gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa, haba hari n'ibiti bitandukanye bikurura akayaga. Bityo abantu bagahumeka neza, hakaba ikirere cyiza kandi bakabaho bishimye.

Imineke n'izindi mbuto zitandukanye, byifashishwa cyane cyane mu gutunganya amafunguro ya buri munsi. Indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibindi ndwara, ndetse imboga n'imbuto bikaba biri mu birinda indwara.

Ibihaza bitanu ni imbuto nziza abantu bakunda guteka ndetse no guhinga, ariko kandi si ukuyifashisha mu mafunguro gusa kuko baranabigurisha bagakuramo amafaranga.

Imineke ni imbuto nziza cyane zifashishwa akenshi na kenshi mu mafunguro, iyo ufashe ifunguro ukarenzaho imineke igufasha neza mu igogora ry'umubiri, kandi imineke irinda indwara.

Ibitunguru ni ingirakamaro kubera ko bifasha abantu mu kubaho neza bikaryoshya ibiryo kandi bikanafasha mu gutanga amafaranga, iyo abantu bahinze ibitunguru ni byiza kuko bibafasha mu mibereho yabo.

Umuhinzi arareba imyaka ye, iyo imyaka yeze arayisarura, ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bwiza cyane kuko butuma ababukora babona umusaruro mwinshi, bakabona n'amafaranga bifuza.

Indimu n' ubwoko bwiza bw'imbuto, kuko usibye kuba zifashishwa mu kurinda indwara, ahubwo ni n'umuti w'indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora, ibicurane, umuriro n'izindi.

Ibinyomoro ni byiza cyane kuko bifasha abantu kubona ubuzima bwiza, birinda indwara bityo za ndwara za hato na hato zifata abantu zikagenda, zituma kandi abantu babona amafaranga bityo bakiteza imbere.

Ibitunguru ni ibihingwa byiza cyane byifashishwa mu guteka, iyo bari guteka bakoresha amavuta n'ibitunguru bikaryoshya ibiryo kandi ibiryo bikaza bifite intungamubiri, bityo ababiriyeba bakagubwa neza.

Aho usanga inzu zitandukanye zikorerwamo ibikorwa byaba iby'uburezi n'ibindi, ukunze kuhasanga n'indabo zo kugira ngo zikurure abo bantu ndetse n'abahagana.

Imirima urimo imiteja, abantu batandukanye barasarura iyo myaka, iyo abantu imyaka yeze barayisarura bakayifashisha mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima.

Akarima k'igikoni ni aho usanga imboga zitandukanye n'utundi twaka twifashishwa cyane cyane mu gutegura indyo yuzuye, iyo ufite akarima k'igikoni bituma amafaranga wari gukoresha ugura imbuto atagenda.

Imiteja ni igihingwa gikunze guhingwa mu butaka bw'u Rwanda, aho usanga ifasha abantu bayihinga, kubona ibiribwa bitandukanye, byiganjemo iby'intungamubiri, bikabafasha no kubona amafaranga.

Imyembe ni imbuto nziza cyane, zikundwa n'abantu b'ingeri zose, yaba abana, yaba abantu bakuru, yaba urubyiruko, yaba abasaza n'abakecuru kandi zigatanga, intungamubiri n'izindi zitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihumyo ni ubuhinzi bukorwa, aho usanga bahinga mu buryo bugezweho bwo gutanga umusaruro mwinshi, ubuhinzi butuma ubuhinga abona umusaruro mwinshi, akabona n'amafaranga menshi.

Karoti ni imboga nziza cyane zifasha abantu kureba neza, kandi zikabaha ubudahangarwa buhagije bw'umubiri, iyo abantu bafata karoti bituma bagira ubuzima bwiza.

Imbuto z'ibinyomoro n'amatunda ni imbuto nziza kuko zifasha abantu cyane cyane iyo basoje gufata amafunguro, bagafata ibinyomoro cyangwa amatunda bibafasha kumererwa neza, kurya intungamubiri n'indyo yuzuye.

Ibibabi by'icyatsi by'igiti cyiza bigaragara ko ari igiti gikunze gukura cyane kubera kubona imvura, iyo ibiti byitaweho ni ingirakamaro biduha umwuka duhumeka.

Imboga ziganjemo inyanya, pavuro, imiteja, ibitunguru na karoti ni ingenzi cyane kuko bifasha mu gutegura amafunguro agizwe n'indyo yuzuye bityo abantu bagakura neza mu gihagararo no mu bwenge.

Ibihingwa by'indabo zitandukanye n'ibiti by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukurura umwuka mwiza abana bahumeka bityo abanyeshuri ntibagire ikibazo mu myigire yabo, bigatuma babaho mu buzima bwiza.

Imineke ni ubwoko bw'ibiribwa buri mu mbuto aho usanga zifashishwa cyane mu mafunguro zirinda indwara kandi zigafasha mu kubona, kongera abasirikare b'umubiri iyo ufashe imineke neza bituma utarwaragurika.

Ubuhinzi bwa karoti, ibigori, amashu n'iyinindi myaka, ni ubuhinzi usanga bukorwa n'abantu, kubera ko butanga umusaruro vuba, umuntu akabona amafaranga kandi akagera ku iterambere yifuza.

Abaturage batandukanye baracuruza imbuto n'imboga zitandukanye, harimo imbwija, inyanya, intoryi, amatunda, imiteja, ibitunguru n'ibindi.

Amapapayi ni imbuto zera ku biti birebire, amapapayi ni ingirakamaro kuko ni umuti w'indwara zitandukanye ariko kandi ukanakoreshwa mu bana bityo bakagira ubuzima bwiza.

Ibihaza ni imbuto zikunze kwera cyane cyane ahantu hahehereye nko mu ntoki, mu bishanga n'ahandi, usanga rero ari imbuto nziza ku buryo abaziriye bibungura imbaraga n'ubwenge kandi zigatanga n'amafaranga.

Imyembe itatu, yeze neza, iyo abantu barya imyembe, bituma bagira ubuzima bwiza kuko imbuto muri rusange zirinda indwara, zigafasha n'umubiri w'umuntu guhangana n'ibibazo bitandukanye.

Ibimera bitandukanye bitoshye, iyo imvura igwa izuba rikava neza ibimera biratoha bityo amatungo ndetse natwe ubwacu tukabaho neza kubera ko bitanga umwuka kandi akaba ari n'ibiryo ku matungo.

Ibiti bitandukanye bateye birashaka gukura neza ndetse ni ibiti bibyara imbuto, ibyo biti bibyara imbuto ni ingirakamaro kuko bifasha abantu kubona ubuzima bwiza buturutse mu izo mbuto.

Umugabo wambaye ingofero, wambaye umupira, wambaye kandi n'ipantaro, aruhira imyaka ye akoresheje amazi. Iyo wuhira bituma ubuhinzi bwawe bugenda neza bityo ibihingwa bikabona intungagihingwa zihagije.

Ibikorwa byo kuhira imyaka iri mu murima ni ibikorwa by'ingirakamaro kuko bituma abantu babona umusaruro bifuza maze bakabaho neza. Iyo wuhira imyaka no mu gihe cy'imvura cyangwa icy'izuba ntacyo bigutwara.

Umugabo aruhira imyaka ye. Iyo wuhira imyaka, cyane cyane nk'imboga z'amashu, ni byiza kuko bituma zikura neza, yewe no mu gihe cy'izuba. Bityo umusaruro ukaba mwinshi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibigori, aho uhinga ashobora kwifashishwa uburyo bugezweho, bwo kuhira imyaka mu gihe, cy'impeshyi. Bityo izuba ryaza ntiribe ikibazo, ahubwo hakagaragara igisubizo mu kuhira.

Ibikorwa bitandukanye byo kuhira imyaka, ni ingirakamaro kubera ko byifashisha cyane cyane mu gihe cy'impeshyi cyangwa mu gihe cy'izuba, aho usanga imvura yarabuze maze kuhira bigafasha mu kongera umusaruro.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru, ufite rozwari mu ntoki, aruhira imyaka ye. Iyo wuhira imyaka biyifasha kubona ibitunga iyo myaka byiza, kandi bigakura neza.

Ishyamba ritandukanye ririmo ibiti bitandukanye, ni ahantu heza ho kuruhukira kuko usanga hari umwuka mwiza. Iyo twitaye ku bimera n'ibiti muri rusange bituma tubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Amaterasi y'indinganire ni aho usanga abaturage bishyira hamwe bagahuza ubutaka bwabo, maze bagakora ibikorwa bitandukanye bizatuma ubutaka bwabo butazatwarwa n'isuri.

Inzu zitandukanye, zubatswe neza ahantu yitegeye ishyamba. aAbaturage iyo batuye ahantu hamwe ariko kandi hitegeye ishyamba, ni byizay kuko babona umwuka mwiza bahumeka.

Ibihingwa n'ibimera bitandukanye iyo bibona izuba, bikanabona imvura, bikura neza bigatanga umwuka abantu bahumeka. Ni ingirakamaro ku bantu kuko bituma abantu na bo babaho neza, maze bakiteza imbere mu buryo butandukanye.

Ibyatsi bisa neza ndetse n'amashyamba, ni byiza cyane kubera ko bituma abantu bahumeka neza, bigakurura imvura imyaka ikera, bityo tugatera imbere tukazamura n'ubukungu bwacu.

Mu gishanga usanga ari ahantu hari amazi, hatoshye hari ibyatsi byiza kubera ukuntu haba hari ubutaka bworohereye n'amazi menshi. Bifasha abantu bahahinga kubona uburyo bahahinga neza, no mu gihe cy'izuba bagakomeza bagahinga.

Ibimera bisa icyatsi bitoshye neza kubera ko bibona imvura ihagije, iyo ibimera bibona imvura ihagije bituma bimererwa neza bityo bikaduha umwuka duhumeka natwe tukabaho neza.

Umurima uteye neza, ibyatsi bitoshye, iyo uteye ibyatsi, ni byiza kuko bifasha imyaka gukura neza kuko bibona imvura ariko kandi n'amatungo na yo akagira ubwatsi bityo agakura neza.

Umurima munini ugaragara nkaho urimo ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi, ibyatsi byiza bitoshye byifashishwa cyane cyane mu gutunga amatungo, iyo ibyatsi bibona imvura birakura amaza amatungo nayo akabona ibyo arya.

Amaterasi y'indinganire ni ingirakamaro kuko afasha umurima kwirinda gutwarwa n'isuri maze n'imyaka iteweho ikera neza mu buryo bwiza.

Ibimera byera akenshi na kenshi mu gishanga birimo imboga, birimo n'ibindi bitandukanye bituma ababihinga babona umusaruro mwinshi, kubera ko mu gishanga ni ahantu hahehereye hadasaba imvura nyinshi.

Imbuga ngari, ikigo cy'amashuri, aho usanga abana bakinira imikino itandukanye, yiganjemo iy'abana, ndetse n'iyindi itandukanye y'abakuru, aho usanga bashobora gukina nk'umupira w'amaguru, umupira w'intoki n'ibindi.

Imyaka itandukanye yiganjemo urutoki, aho usanga mu Rwanda igihingwa cy'urutoki gifasha abantu kubona umusaruro utandukanye, urimo ibitoki, urimo kandi umutobe, urimo n'ibindi bintu bishobora guturuka kuri ibyo bihingwa.

Amaterasi y'indinganire ni uburyo butandukanye bwifashishwa n'abaturage ahantu hagaragara ko hatwarwa n'isuri bityo bagahinga bakabona umusaruro bifuza, iyo uciye amatarasi y'indinganire mu murima bigufasha kurwanya isuri n'ibindi byonyi byatuma umusaruro wawe utagenda neza.

Umuryango urimo umugore n'umugabo n'abana ndetse barahabwa inkwavu, inkwavu ni nziza cyane kuko zifasha kororoka zigatanga inyama n'ifumbire.

Inka zororerwa mu rugo, mu biraro byabugenewe, zihabwa ubwatsi, bituma zigira umusaruro wiganjemo amata, ndetse bituma hirindwa ko haza umwanda ku gasozi.

Ingurube iri mu kiraro, ni byiza kuko nta kibazo yateza ariko kandi binayifasha kubaho neza, bityo ikagaburirwa neza kandi ikitabwaho mu buryo bwiza. Iyo ingurube yororewe mu kiraro, ni byiza kuko bitanga umusaruro mwinshi.

Umugabo aratera inka urushinge. Ubuvuzi bw'amatungo ni ingenzi cyane, kuko amatungo na yo ahura n'indwara zitandukanye, ziganjemo ikibagarira n'izindi. Iyo zitaweho ku gihe zirakira maze zigakomeza gutanga umusaruro.

Ihene iziritse ku rutoki, iyo uhinga neza ukanorora bifasha mu kubona umusaruro mwiza kuko ifumbire wifashisha uhinga ni yo uba wukuye mu matungo yawe.

Ingurube ironsa ibyana byayo, ingurube abayorora bayikundira ku kuba igira umusaruro mu gihe gitoya kandi mu gihe gitanga umusaruro mwinshi.

Inka ni itungo ribarirwa mu matungo maremare, ritanga umusaruro wiganjemo umukamo, rirya ibyatsi, kandi rikanatanga umusaruro wo kubyara, bityo abantu bakabona amafaranga.

Ihene ebyiri ziziritse ku nsina, iyo woroye amatungo bifasha mu kubona ifumbire mu ku kubona n'ibindi bikorwa bitandukanye bikomoka kuri ayo matungo, kandi insina nazo ni ingirakamaro kuko zifasha mu kubona umusaruro abantu bifuza.

Ihene ni itungo rigufiya rikunze kororerwa mu rugo, aho usanga ari ingirakamaro kuko rifasha abantu kubona ifumbire, kubona inyama n'iyindi misaruro itandukanye ikomoka ku ihene.

Ingurube zitandukanye ni amatungo magufiya akunze gukoreshwa nk'aho usanga atanga inyama, agatanga ifumbire, bityo uwayoroye akabona amafaranga.

Ingurube ni itungo riri mu bwoko bw'amatungo magufiya, aho usanga abantu barikundira ko ryororoka vuba, rigatanga umusaruro urimo inyama, ifumbire, n'ibindi.

Ingurube iyo imaze kurya neza yahaze iraryama ikaruhuka, iyo ingurube irya neza ikura neza igatanga umusaruro wiganjemo uw'inyama, uw'ifumbire ndetse n'amafaranga.

Ihene ebyiri n'umworozi wambaye umupira, wambaye kandi n'ipantaro, iyo worora bituma ubona ifumbire ukabona kandi inyama zikomoka kuri ayo matungo, bityo ukabasha kwiteza imbere.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, n'ishati y'umutukun n'ingofero y'umukara arita ku nka ye. Ni ngombwa kwita ku nka zacu kugira ngo zitere imbere mu mikurire ndetse zitange n'umusaruro twifuza.

Ingurube ni itungo rigufiya rikoreshwa cyane cyane n'abaturage, mu kubona ifumbire no mu korora, kubera ukuntu byoroka vuba rikanatanga umusaruro mu gihe gitoya, bakarikundira ko rinatanga amafaranga mu gihe gito.

Inkoko za kijyambere cyangwa se izo bakunze kwita ngo ni iza kizungu, zifashishwa cyane mu gutanga inyama n'amagi. Izi nkoko zituma abantu bazorora babona amafaranga ahagije ndetse n'umusaruro uzikomokaho mwinshi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara aricaye arita ku nkoko ze, ni ngombwa ko wita ku nkoko kugira ngo zibashe kugira umusaruro haba amagi ndetse n'inyama.

Inka n'imwe mu bwoko bw'amatungo maremare, aho usanga ryifashishwa cyane cyane mu gutanga ifumbire, yifashishwa mu guhinga ibimera bitandukanye, kandi yifashishwa mu kubona amata, ndetse n'undi musaruro nk'inyama n'ibindi.

Ubworozi bw'inzuki, ni ubworozi usanga aho abantu bakora ibikorwa bitandukanye byo gukurura inzuki kugira ngo zizane ubuki. Ubuki ni bwiza kuko butuma abantu bamererwa neza.

Umugore n'umwana baragaburira amatungo yabo y'ihene. Ihene ni amatungo magufi yororwa cyanecyane mu ngo zo mu cyaro, gusa bifasha abo bantu kubona umusaruro bifuza urimo ifumbire n'ibindi.

Inkoko ni amatungo magufiya, usanga atanga ifumbire kandi agatanga n'inyama ndetse ibyo byose bigatangwa mu buryo bw'igihe gitoya, tutirenganyije ko zitanga n'amagi.

Ingurube ni bumwe mu bwoko bw'amatungo magufiya, yifashishwa cyane cyane mu kororoka, kuko atanga inyama, bityo abayorora bakabona amafaranga, bakabona n'undi musaruro bifuza nk'ifumbire n'ibindi.

Ingurube ni umwe mu matungo magufiya, aho usanga abayorora bibafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye, yororoka vuba vuba kuko ushobora kubyara hagati y'ibibwana icumi, na makumyabiri, kandi mu gihe gitoya.

Ingurube ni itungo rigufiya, ryororerwa mu rugo, usanga akenshi rikunze korwa n'abahinzi kuko ritanga ifumbire kandi rigatanga umusaruro mu gihe gitoya gishoboka.

Ubworozi bwa kijyambere bw'ingurube, ni ubworozi bwiza kuko bituma abantu babukora babona umusaruro cyane cyane kubera ukuntu zororoka vuba, bityo bakagira amafaranga mu buryo bwiza.

Umubyeyi n'abana be babiri baragaburira amatungo yabo, ni byiza kugaburira amatungo kuko biyafasha gukura vuba no kororoka bityo ukabona ibikomoka kuri ayo matungo.

Inkwavu ni nziza cyane, ni amwe mu matungo magufi yifashishwa mu korora mu rugo ndetse bigatanga ifumbire, inyama n'ibindi, inkwavu zororoka vuba kandi zitanga umusaruro mu gihe gito.

Inka ni itungo ryifashishwa cyane mu rugo mu gutanga umusaruro w'amata, mu gutanga kandi ifumbire yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi. Usibye ibyo kandi ni umuco wacu, inka ni ingirakamaro kuko yifashishwa mu gukwa.

Inka yororewe ahantu heza ni byiza kuko bifasha iyo nka kubaho neza, igatanga umusaruro wiganjemo uw'ifumbire, amata n'ibindi, iyo worora ukorera mu rugo ni byiza kuko bifasha mu kubona umusaruro mwiza.

Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana batatu, bafite amatungo magufi , ihembe, iyo umuryango ufite amatungo, biwufasha mu bikorwa byo kubona ifumbire n'amafaranga.

Ihene iraryamye ndetse n'insina hari kandi n'urugo, iyo ihene yitaweho mu rugo bituma imererwa neza igatanga umusaruro mwiza abantu bayikeneyeho.

Amatungo atandukanye yororerwa ku gasozi bituma ayo matungo abona ibyatsi bitandukanye byo kurisha, bityo akabaho neza, agakura neza kandi akabona umusaruro wifuzwa, gusa bigira ingaruka zitandukanye zirimo gukwirakwiza umwanda n'izindi.

Ikiraro k'ingurube kirimo akana gatoya k'ingurube. Iyo ingurube zororewe mu kiraro ni byiza kuko hirindwa ko zakwirakwiza umwanda kandi zikitabwaho mu buryo bw'umwihariko.

Iyo woroye ukurora inkoko ni byiza cyane kuko bituma ubona amagi, ukabona inyama, ukabona umusaruro mwinshi bityo ubuzima ntibukugore ukabaho neza.

Ihene ebyiri nziza nkuru, iyo zitaweho zitanga umusaruro harimo inyama, harimo ifumbire n'ibindi, izo hene zituma abahinzi bagubwa neza kubera ko babona n'amafaranga.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, inkoko ni amatungo magufiya usanga yifashishwa cyane mu gutanga amagi n'inyama, bigafasha abayorora kubona amafaranga n'ibindi bikorwa bifuza.

Umugabo wambaye isengeri itukura, wambaye n'ipantaro y'umweru arita ku matungo ye harimo inka ndetse n'ihene, iyo wita ku matungo ni byiza kuko bigufasha kwiteza imbere.

Amatungo abiri y'ingurube ararisha ubwatsi, aya matungo ni meza cyane kuko afasha abantu kubona ibyo bakenera birimo amafaranga kubera ukuntu byororoka vuba birimo kandi n'inyama bityo imibereho ya muntu ikagenda neza.

Inkoko ni itungo rigufiya, rikoreshwa cyane cyane mu gutanga inyama ndetse n'amagi. Ni ngombwa ko tuzitaho kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, kuko iyo turiye ibikomoka ku matungo, bituma tubaho neza.

Urusenda ni igihingwa gikunze kwera mu Rwanda, aho usanga Abanyarwanda barukunda barugura ndetse bakanaruhinga ariko kandi rukajya no hanze rukinjiza amafaranga menshi.

Urugemwe rw'igiti ruri mu gashashi k'umukara, harimo kandi n'urudaka, uru rgemwe nirwo bafata bagatera, maze hakazavamo igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Umurima urimo ibirayi, iyo uhinze ibirayi bituma ugira ubuzima bwiza kubera ko ubona ibyo kurya ku gihe ariko kandi ukanasagurira amasoko, ukabona amafaranga, ukaba wayakoresha mu bindi bikorwa by'iterambere.

Ibimera bitandukanye by'ibishyimbo ni ibimera usanga bimera ahantu hahehereye, hagwa imvura kandi hakaboneka n'izuba ritari ryinshi. Iyo ibimera by'ibishyimbo byeze, bifasha abantu kubona ibyo barya ndetse n'ibibatunga mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umusaruro w'ibigori, iyo ibigori byeze, barabifata bakabyanika, byamara kuma, bakabikoresha ibikorwa bitandukanye, birimo kubisya bakaba babikuramo ifu y'igikoma n'ibindi.

Aho ingemwe zitandukanye z'ibimera zikorerwa, usanga zitabwaho ndetse abazikeneye bakajya kuzihakura, bityo ni ho usanga bahinga ibintu bitandukanye byiganjemo ibimera.

Igihingwa cy'inyanya zihinzwe kijyambere, ni ubuhinzi bugezweho cyane kuko butanga umusaruro mwinshi, bityo ababukora bakabona amafaranga bakiteza imbere kandi bagateza imbere n'Igihugu.

Ibihingwa bya pavuro ni ibihingwa byera akenshi na kenshi ahantu wahereye, usanga ari byiza cyane kuko bituma abantu babona amafaranga kandi bakabona umusaruro bifuza.

Ahantu ushobora gusanga ibihingwa bitandukanye, imbuto z'ibihingwa yaba ingemwe n'ibindi, usanga hakunze kuba hazitiye bityo bigafasha abantu kubona imbuto bagateza imbere ubuhinzi bw'amashyamba n'ibiti bakabona ubuzima bwiza.

Abagabo babiri barita ku mbwa zabo, iyo witaye ku matungo yawe ni byiza kuko bituma agira ubuzima bwiza bityo ukayarinda ndetse ukarinda n'abandi ibibazo byaturuka kuri ayo matongo.

Inka ni ubwoko bwiza usanga abantu bakunze korora mu rugo, iyo woroye inka bigufasha kubona umusaruro w'amata n'ifumbire n'ibindi bikorwa bitandukanye, ushobora kandi no kuyigurisha ukabona amafaranga.

Abantu batandukanye barita ku matungo yabo. Inka ni nziza kuko zitanga umusaruro utandukanye, urimo gutanga ifumbire, urimo kandi gutanga amata ndetse n'inyama n'ibindi.

Abagabo batatu barimo uwambaye inkweto n'uwambaye ishati, bafite kandi inka ebyiri ziri mu kiraro. Kororera mu rugo ni byiza kandi korora inka ni ingenzi kuko ziduha amata n'ibindi.

Umugabo wambaye isurubeti n'ingofero na bote arita ku i tungo rye, iyo wita ku itungo ryawe birifasha kubaho neza bikarifasha gukura neza bityo ukabona umusaruro wifuza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo. Ndetse n'iyindi miti itandukanye ivura ibimera. Ibimera n'amatungo bihura n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi, ariko iyo bibonye imiti ku gihe bibasha kwitabwaho.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingirakamaro kuko amatungo na yo nk'abantu ndetse n'ibindi bimera bitandukanye zihura n'indwara zitandukanye, bityo iyo zitaweho zikagira ubuzima bwiza bituma zishobora gutanga umusaruro mwiza.

Abagabo batatu ndetse n'uwabihuguriwe umwe barakingiza imbwa. Iyo amatungo akingiwe, bituma hirindwa ko hazamo ikibazo cyuko izo mbwa zarya abantu maze bakabura ubuvuzi.

Umunyeshuri arakora isuzuma ku bikorwa bitandukanye bigendanye n'ibyo yiga, abanyeshuri biga ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubumenyin ngiro, usanga bakora ibikorwa bitandukanye bigamije kubungura ubwenge.

Ibimera bitandukanye, harimo kandi n'inyamaswa nk'nyoni, iyo ibimera byitaweho neza, bituma abantu babona umwuka mwiza wo guhumeka bityo na bamukerarugendo baza gusura igihugu, bakishima.

Inyamaswa zitwa inkende, ni inyamaswa zikunze kugaragara cyane cyane mu mashyamba, ni nziza kuko kubera imiterere yazo abantu bazikunda ndetse zigakuru n'abakerarugendo.

Muri pariki ya nyungwe hari ikiraro aho abakigenderera biba ari byiza bityo ba mukerarugendo bakaza kuhasura maze igihugu kikunguka amafaranga menshi, iyo ukiriho uba witeyetege ibikorwa bitandukanye.

Impala n'imparage ni inyamaswa ziboneka mu Kagera ndetse no mu yandi mashyamba atandukanye, zikurura ba mukerarugendo kandi zifasha mu kubona, mu kuboneka kw'amafaranga ndetse zikanatanga umusaruro.

Inyamaswa zitandukanye zigaragara mu mashyamba zikurura ba mukerarugendo, ba mukerarugendo ni beza kuko batuma igihugu kigaragara neza ku ruhando Mpuzamahanga ndetse kikanabona amafaranga menshi.

Ingagi z'u Rwanda ni inyamaswa zigaragara cyane mu birunga mu turere twiganjemo utwa Musanze, aho usanga zikurura ba mukerarugendo bityo u Rwanda rukabona amadovize.

Parike y'Igihugu ya Nyungwe, ni ahantu ushobora gusanga inyamaswa zitandukanye, zirimo inyoni, n'izindi, hari kandi n'ibiti birebire byiganjemo inturusu, n'ibindi.

Inyamaswa zigaragara cyane mu mashyamba zikurura ba mukerarugendo bityo igihugu kikinjiza amafaranga, ni ngombwa kwita cyane kuri izo nyamaswa tuzibungabunga tuzirinda ba rushimusi.

Inyoni ikunze kugaragara cyane mu mashyamba, ni nziza kuko zikurura bamukerarugendo, zikifashishwa mu gutuma igihugu kibona amafaranga bityo tugatera imbere ndetse tukabona n'umwuka mwiza duhumeka.

Inyamaswa ikunda gukurura ba mukerarugendo, iboneka cyane cyane mu mashyamba, inyamaswa ni nziza kuko itanga amafaranga mu gihugu, abazisura baraza bagatanga amafaranga, maze igihugu nacyo kigatera imbere.

Inzovu ni inyamaswa zigaragara cyane mu Kagera, aho usanga inzovu ari inyamaswa nini cyane, ikunda kurisha ikananywa amazi menshi. Inzovu ikurura ba mukerarugendo, ikazana amafaranga mu gihugu.

Inyamaswa zifashishwa cyane mu gukurura ba mukerarugendo, iyo zitaweho neza zikagira ubuzima bwiza, zikabona ibimera byo kurya, n'ibindi bizitunga, bituma zimererwa neza maze n igihugu nacyo cyikabyungukiramo.

Inyoni ni ubwoko bw'inyamaswa bukunze kugaragara cyane mu ishyamba mu mashyamba atandukanye, aho ushanga akurura bamukerarugendo bityo iyo yitaweho neza afasha no kumukora neza maze ibimera bikabaho.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo kandi zifashishwa cyane mu bikorwa bitandukanye birimo ubuvuzi n'ibindi, iyo inyamanswa zitaweho neza bituma igihugu kibona amafaranga aturutse muri ba mukerarugendo.

Imparage ni inyamaswa zikunze kuboneka cyane cyane mu Kagera aho usanga zikurura ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo ni beza, kuko iyo baje badusigira amafaranga menshi kandi bakagenda n'Igihugu cyacu bakivuga neza.

Inkende ni inyamaswa nziza cyane, zikurura bamukerarugendo kubera imiterere yazo. Ni ngombwa kuzitaho bityo bamukerarugendo nibaza basigire igihugu amafaranga ndetse n'ubundi bushobozi.

Inyamaswa zo mu Kagera zitwa agasumbashyamba, ni inyamaswa usanga zikurura ba mukerarugendo cyane kuko ubwiza bwazo ndetse n'uburebure bwazo usanga bunogeye amaso.

Hari ibihingwa bigaragara neza bitoshye bigaragara ko imvura igwa cyane, hari kandi n'inyoni iyo inyoni zitaweho zikurura ba mukerarugendo bityo ba mukerarugendo bagatanga amafaranga mu gihugu.

Ni inyamaswa zigaragara cyane cyane mu mashyamba zikurura bamukerarugendo bakazana amafaranga mu gihugu. Bityo Igihugu kigatera imbere, Abaturarwanda bakabaho neza, bityo natwe tukagira uburenganzira nk'abandi.

Inkende ni inyamaswa ikunze kugaragara cyane cyane mu mashyamba, iyo ifashwe neza ituma ba mukerarugendo baza kubera ukuntu imeze bakayikunda maze bakadusigira amafaranga.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo zigaragara cyane mu mashyamba, aho usanga abo bazireba bazikundira ko ari inyamaswa zishimishije ba mukerarugendo ni ingirakamaro ku gihugu kuko bongera ubukungu bw'igihugu.

Impara n'imparage, haragaragara kandi isha. Iyo inyamaswa ziri muri pariki, abazigenderera barazisura maze zigakurura bamukerarugendo bityo amafaranga akinjira mu gihugu.

Inyamaswa zikunze kugaragara cyane mu mashyamba zikurura ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ingirakamaro ku gihugu kuko bifasha igihugu gutera imbere kandi bikinjiza amafaranga, bityo abaturarwanda bakabaho neza.

Inyoni ni ubwoko bwiza bw'ibiguruka, bifasha imyaka kororoka mu buryo bwo gukwirakwiza ibituma yororoka, kandi bigatuma habaho kwihuta kw'ibimera mu buryo zikuramo.

Inyoni ni inyamaswa ikurura ba mukerarugendo, ni ngombwa kwita ku nyoni tubungabunga amashyamba kuko niho zikunze kugaragara, iyo inyoni zitaweho bamukerarugendo baraza bagasigira igihugu amafaranga bityo tugatera imbere.

Inyoni zikunze kugaragara cyane mu ishyamba rya Nyungwe, zikurura ba mukerarugendo, ba mukerarugendo ni beza ku gihugu, kuko bifasha mu kubona amafaranga, n'igihugu kikanagaragara neza mu ruhando mpuzamahanga.